Ni byiza kuhira ibigori ubikoresheje umuti wabugenewe, kubera ko byakunze kugaragara ko nkongwa ishobora kujya mu bigori ikabyangiza, ugasanga waruhiye ubusa.

Ubuhinzi bw'indabo burya nabwo bukeneye ibintu byinshi bitandukanye nko kuba wazitera umuti kenshi gashoboka kuko hari ibintu byinshi baba bishaka kuzazangiriza bityo umusaruro ugakendera muri ubwo buryo.

Ni byiza ko abantu basangiye umurima, bagomba gufatanya no kuwutera imiti kugira ngo birinde udukoko utwaritwo twose twakgiza iyo myaka kugira ngo ibeho neza.

Iyo wakoze ubworozi bw'amafi neza, bishobora kuguha umusaruro wifuzaga kubera ko amafi iyo amaze gukura, agurishwa amafaranga menshi ariko na none si byiza ko umuntu yaroba amafi akiri mato.

Igihe ubona ko umusaruro wawe w'amafi wakuze ugomba kuwusarura bivuze ko ugomba kuyaroba ariko na none iyo uyarobye akiri mato uba ubyangirije kuko unafashwe waba wafungwa.

Iyo wakoze umushinga nabi korora amafi yawe ashobora kwangirika cyane cyane hajemo icyorezo kikaba cyayatsemba burundu, maze ibyo wavunikiye ukabibura muri ubwo buryo.

Igihe ugize amahirwe yo kuba wabona uruzi rukwegereye, ushobora kurubyaza umusaruro ukaba waruteramo cyangwa ukarushyiramo ubworozi bw'amafi kugira ngo bizaguteze imbere.

Abahinzi b'umuceri iyo umaze kwera usanga bawusarurira mu murima wabo, bityo bakajyana imifuka y'uwo muceri, bakaba bayigurisha mu nganda igatunganywamo undi mwiza.

Umuntu wese utaramenya ko ubuhinzi bw'umuceri ndetse n'ubuhinzi bw'icyayi bigira amafaranga azegera ababikora kugira ngo bamugire inama ariko cyane cyane ubuhinzi bw'icyayi kuko kigurishwa no mu mahanga cyo kigira amafaranga adasanzwe.

Nyuma y'uko abahinzi bamenya ko ikawa ari kimwe mu bihingwa bigira amafaranga menshi, bazishyizemo imbaraga, bityo bituma n'igihugu cyacu gitera imbere kubera ko ikawa n'icyayi ari ibihingwa bohereza mu mahanga.

Iyo umuntu ahinze ikawa bimutera ubunebwe kubera ko zerera igihe kinini, ariko nawe iyo zimaze kwera uhita wumva wanabishishikariza abandi, kuko zigira umusaruro munini kandi mu gihe kirambye.

Ikawa y'u Rwanda ni kimwe mu bihingwa bigira amafaranga bityo uwayihinze ntashobora gukena kabone n'ubwo yera rimwe mu mwaka ariko ushobora kwizigamira amafaranga menshi azagutunga muri icyo gihe cyose.

Kirazira ndetse kikaziririzwa kuba wagira aho uhurira no kurya imiti y'amatungo, kuko ibi byagutera ikibazo gikomeye cyane, birimo nko kuba wahaburira ubuzima bwawe.

Ni byiza ko mbere y'uko dukoresha imiti ivura amatungo, tubanza gusoma amabwiriza ayigenga kuko usanga tuyikoresheje nabi kandi handitseho uburyo ikoreshwa.

Numara kumenya agaciro k'ibintu, nawe ujye ubibungabunga cyane cyane nk'imiti y'amatungo, kubera y'uko igira kamaro gakomeye cyane mu gutuma amatungo yacu yororoka neza kandi akabaho ubuzima bwiza.

Buri miti yose si byiza ko tuyiha amatungo tutabanje gusuzuma neza; niba yujuje ubuziranenge. Ibi bikorwa n'umuganga w'amatungo gusa kuko ariwe uzi imiti agomba guha amatungo ndetse akitwararika.

Kubika neza imiti y'amatungo nabyo ni kimwe mu bintu bishobora gutuma itangirika vuba kubera y'uko iyo uyishyize aho wiboneye hose ishobora kuba yameneka cyangwa ikangira mu bundi buryo.

Imiti y'amatungo cyangwa se iyi ihingwa ikuhira imyaka si byiza ko umuntu ayishyira ahantu hatuma yangirika ahubwo agomba kuyitaho kugira ngo ihorane ubuziranenge.

Abahinzi bagomba kwita ku mirima yabo bakayitunganya mbere y'uko bayiteramo imyaka runaka kugira ngo izere neza kandi ari nta kintu kibagoye, bityo bazabone umusaruro.

Ni byiza ko tujyana n'abana bacu batoya bakatwigiraho ibyo dukora cyane cyane ubuhinzi kuko nta bandi tuba tuzabiraga keretse abo bana bacu, ni byiza rero ko babyiga bakiri bato.

Ni byiza ko inka zororerwa ahantu habugenewe, ndetse ibiraro byazo bikubakwa mu buryo bugezweho kugira ngo zibe zitamena urugo, usange zangije imyaka y'abandi kandi wari ufite ububasha bwo kubikoraho.

Umuhinzi wabihuguriwe agomba gutera ku murongo, kandi akihatira kuba yatera ibiti kugira ngo umurima we ntuzatembanywe n'isuri kuko byakunze kugaragara ko mu gihe cy'imvura ari ko bigenda.

nN byiza ko dusura umusaruro wacu kuko tutawusuye ushobora kwangizwa n'ibindi ntitubimenye, urugero nko kuba umuceri wawihorera inyoni zawurya zikawumaramo bityo ibyo waruhiye bikabura uko.

Burya iyo uhinze amasaka nayo neza, arera ugasanga avuyemo umusaruro utatekerezaga. Ariko iyo uyahinze ukayavanga n'indi myaka, byombi biradindizanya ntugire na kimwe usarura.

Igihe umuturage yamenye ibanga ryo gutera ibiti nta kabuza igihugu cyacu kizaba cyiza kubera ko haje imvugo ikunda kutubwira ngo ni dutema igiti kimwe dutere bibiri kugira ngo ntituzigere dukenera umwuka duhumeka ngo tuwubure.

Kubanza guhumbika imyaka ni ingenzi tukaba twayishyira mu bihoho ,bityo tukazayikuramo cyane cyane ibiti dutera ,kuko aribwo buryo bwiza binyuzwamo kugira ngo bikure neza.

Ahantu hegereye umuhanda, si byiza ko tuhatera kuko hashobora kumanuka umwuzure ugatembana imyaka yacu, nyamara byagaragaraga ko twakabyirinze bitaraba.

Iyo ubuhinzi bw'amashuri iyo ubwitayeho, butanga umusaruro kandi mu gihe gitoya, kubera ko bukenera kuhirwa no guterwa imiti n'ibindi byose iyo ubikoze nawe ubona umusaruro mwiza.

Nta kabuza iyo witaye ku bigori byawe ukabikorera neza ukuramo umusaruro, ariko nanone iyo ubiretse ikigunda kikabyica ntuzigere ubaza umusaruro wabyo kuko utabikurikiranye ku gihe.

Mu ntara y'ububurasirazuba kandi hakunze kugaragara ko ari hamwe mu hantu hakunze guhirwa n'ubuhinzi bw'ibitoki kubera ko asaguriye imiryango yabo ndetse n'ibindi bikoherezwa ku masoko, bikagaburira abandi.

Si byiza kuvanga imyaka n'iyindi; kubera ko biradindiza. Niba ufashe ibigori ukabitera mu ngemu bishobora gutuma byose nta na kimwe usarura neza.

Burya nuhinga umuceri uzajye uwukurikiranira ku gihe buri munsi, kubera ko umuceri iyo utawitayeho ushobora no kwera ariko bikarangira uriwe n'inyoni bityo umusaruro ukaba ari ntawo.

Iyo umuntu amaze kumenya ibanga ryo gutera ibisheke, ashobora kubibwira n'abandi batarabimenya bityo bakabyitaho n'abo bakaba bakora ubwo buhinzi kugira ngo, babone amafaranga.

Ubuhinzi bwose bukenera kwitabwaho kugira ngo bukure, iyobutereranye nawe nturindade ubaririza iby'umusaruro mwiza kuko ari wowe uba wabiretse bigapfa ubirebera.

Ubuhinzi bw'imyumbati abamaze kumenya umusaruro wabwo ko aba mwinshi, babushyiramo imbaraga, bityo ugasanga cyane cyane abaturage ba Nyagatare imyumbati bakunda kuyiteka bakayinywesha amata, kubera ubworozi buhaba bubemerera kubikora.

Igihe ibiti byacu bimaze gukura, ujya kwaka icyangombwa cyemererwa kuba wabitema bityo ukabikuramo inkwi cyangwa se ukaba wabyubakisha.

Tugomba gukora umuganda ahantu dutuye kugira ngo herekuza ibihuru kuko ibihuru ariyo ndiri yo kuba byajyamo mutera malariya bityo abana bacu bakazarwara ndetse natwe ubwacu tutisize.

Iyo abakerarugendo baje gusura ibyiza nyaburanga mu gihugu cyacu bazana kamera bagafotora kugira ngo nibasubira iwabo bazereke imiryango igihugu bagiyemo ukuntu ari cyiza.

Ntako bisa kubona umuntu afite ifamu nini aragiramo amatungo ye kandi iyo famu ikaba irimo ubwatsi, kuko amatungo ye abasha gukura mu buryo bwiza kandi bworoshye ari nta mbaraga nyinshi akoresheje

Ahantu mu mashyamba si byiza ko tuhatera kubera ko iyo imvura iguye hari igihe yakwangiza iyo myaka binyuze mu gutebanywa n'isuri bityo rero buri muntu wese ajye yitonda mu byo akora.

Yavuze ko umuntu ugiye gusarura imyaka ye ajyana n'agakoresho kabugenewe ubundi akayishyiramo, yamara kubona umusaruro we ugwiriye asaguriye n'amasoko akaba yabijyanayo agahabwa n'amafaranga.

Umubiri wa muntu ukenera imbuto zigiye zitandukanye kugira ngo ubeho neza, niyo mpamvu dutegekwa gufata imbuto igihe tumaze gufata amafunguro bityo tukagumya kugira ubuzima bwiza buzira umuze.

Igihe umuturage akurikiranye ibihingwa bye cyane cyane by'imbuto nk'amatunda agomba gutera imbere mu buryo bwose nta kabuza, kubera y'uko izo mbaraga yakoresheje ndetse ibintu bikagenda neza ntashobora guhomba.

Imbuto y'amapapayi ikunda guterwa n'abantu bakeya kubera y'uko babona itagira umusaruro mwinshi ariko ni ingenzi ku mubiri wacu cyane cyane kurya ipapayi umaze gufungura.

Iyo umuntu yakoze ibishoboka byose agakurikiza amabwiriza yose akuhira imyaka ku gihe ndetse akayitera umuti, ntacyamubuza kubona umusaruro we, nk'uko yabiteganyaga.

Gutera imyaka biba byiza cyane cyane ku murongo kuko yera neza kandi tukayitaho mu buryo bwose bushoboka, iyo umuturage abonye umusaruro mwiza bimutera imbaraga zo kuzashyiramo izindi mbaraga mu gihe gitaha.

Iyo umuntu abonye ahantu cyane cyane nko mu murima hashobora kugaragara ifoto nziza aragenda akayifotoza maze ubundi ukabona ko abyishimiye ko asa neza.

Ubuhinzi bw'amashu iyo wabwitayeho bugira umusaruro utateganyaga; kuko amafaranga yo uba uyiteguye iyo wateye neza umuti, ukuhira neza, ntakabuza umusaruro urawubona.

Imbuto z'ipapayi zikunze guterwa n'abantu bakeya, kubera ko babona zitinda kwera ariko ni zimwe mu mbuto zikenerwa cyane ku ma soko ndetse zaranabuze iyo uzigejejeyo amafaranga bakubarira ayo ushaka.

Indabo na zo ni ubuhinzi bugomba kwitabwaho, kuko zikorwamo ibintu byinshi bigiye bitandukanye hari izivamo imyambaro n'ibindi bintu dukoresha mu buzima bwa buri munsi, ni byiza rero ko tuzibungabunga kugira ngo zidakendera.

Ni byiza ko umuhinzi yita ku bihingwa bye akabyuhira, akabikorera n'ikindi cyose gikenewe kugira ngo umusaruro uzabe mwiza; nyamara ibi bidakozwe biba ikinyuranyo cy'ibyo wateganyaga.

Umuhinzi iteka ajya yibuka ko nta musaruro yageraho igihe atitaye ku bihingwa bye, abe yabyuhira ndetse abirinde ikigunda kuko gishobora gutuma, bidindira mu mikurire ya byo.

Kugura ibikoresho bigiye bitandukanye birimo ruzwari ni ingenzi kuri buri muhinzi n'umworozi kubera ko ibi bimufasha kuhira imyaka ye neza, ari nta mbaraga bimusabye nyinshi ahubwo agakoresha iki gikoresho cya rozwari.

Kera tukiga bakundaga kutubwira ngo nituba abambere bazatujyana ku mazi bityo tugakoresha imbaraga zose dufite kugira iyo ntego natwe tuzayigereho ariko byakundaga kugorana.

Tujye twita ku buryo bwiza bwo kuhira imyaka yacu, cyane cyane tugakoresha uburyo bwo gukoresha i moteli yuhirira kuko ibasha kuhira ahantu hagari kandi vuba.

Byagaragaye ko abandi bamaze guca akenge, bakoresha uburyo bwo kuhira bugezweho nko kuba bafata imiyoboro y'amazi bakayishyira mu mirima yabo, ikajya ifuhera iyo mirima.

Kuhiza umupira ndetse ukoresheje imoteri, bituma ibyo wuhira ubyuhira vuba bityo ibindi wari witeguye gukora, ukabikora ari nta gisibya ni byiza rero ko dukora ibitworoheye.

Nutuhira imyaka yawe ntuzategereze ko nwe hari umusaruro uzakuramo, kubera yuko imyaka ikenera kuhirwa ndetse ikanaterwa imiti kugira ngo ikure neza.

Niba twaramenye ibanga ryo kuhira imyaka yacu mu buryo bwiza tujye tubikora bya kinyamwuga kugira ngo iyo myaka yacu igumane ubuzima bwiza ariko iyo tutabikoze igikurikiraho kiba kibi.

Ababyeyi bose abagabo n'abagore bamaze kumenya ibanga ry'ubuhinzi ubu basigaye babikora nk'umwuga kugira ngo babikore kugira ngo bishimishe ndetse babone n'ibyo kurya kuko ubu basigaye basagurira n'amasoko igihe byabaye byinshi.

Ni byiza kuhira imyaka ikiri mitoya, ukayikurikirana kugeza ikuze, ariko hari bamwe baba bazi ngo gutera ibindi bikazikora, ngo nibyo bagomba gukora, nyamara ibi ntibyatuma ubona umusaruro ukwiriye.

UUburyo bwiza bwo gukoresha imipira ukuhira ahantu henshi icyarimwe hagaragaye ko bitanga umusaruro mwinshi kandi igihe gito, bityo igihe dufite ubwo bushobozi tujye tubukoresha kugira ngo umusaruro wacu ugende neza.

Si byiza gutera ibigori bicucikanye, kuko bituma bidakura neza, ahubwo ugomba kuba ufite ibipimo byihariye, ukoresha kugira ngo ikigo cyisanzure mu mikurire yacyo.

Imihanda yegereye ishyamba ntabwo iba yizewe cyane cyane mu masaha ya nimugoroba, si byiza rero kugenda amasaha akuze kubera ko dushobora kugirirwa nabi tukamburwa ibyacu ndetse n'ubuzima bwacu bukajya mu kaga.

Mu misozi miremire hari imyaka abahinzi badateramo, kubera y'uko bagirwa inama yo gutera imyaka bitewe n'ahantu batuye, bakaba bafite ubwoko bw'imyaka bahatera gusa.

Mu misozi ndetse no mu bibaya siko hose yaterwa imyaka iyo ari yo yose ahubwo buri hantu hose hagira imbuto zo kuhatera bitewe n'ubutaka bwaho niyo mpamvu leta y'u Rwanda ibidushishikariza ikanabitwigisha mbere y'uko tubikora.

Kororera mu gasozi na byo byatangaga umusaruro cyane cyane umuntu wabaga ufite isambu nini akayijyanamo amatungo ye kuko korora ishyo ryose uryoroye mu rugo byagusaba imbaraga z'umurenge.

Abantu benshi bakunda kurya ingurube ndetse bayitiriye n'izina ry'akabenzi. Rero iyo umuntu aziyororeye, aba azi neza ko azabona amafaranga menshi kuko ni itungo rikundwa na bose.

Umworozi w'amatungo agomba gusura amatungo ye kenshi gashoboka, kuko utayitayeho ushobora no kwicuza icyatumye worora, kuko ni amatungo akenera kwitabwaho kenshi gashoboka no guhabwa imiti yabugenewe.

Ubworozi bw'amatungo magufi cyane cyane ingurube ni ubworozi butanga amafaranga menshi mu buryo utatekereza, keretse wegereye ubukora, akakubwira uburyo bikorwa nawe wabyibonera.

Inkoko zo mu bwoko bwa saso zirahenda cyane kuko usanga umushwi wayo ugura ibihumbi bitatu, aha make ugasanga ibihumbi bibiri na magana atanu, bityo umuntu ubikoze neza arunguka mu buryo bugaragara.

Iyo inkoko zimaze gukura, ugomba kujya ufata zimwe na zimwe ukazigurisha ndetse ukibuka ko mu rugo rwawe abana bakeneye kurya igi buri munsi bityo ibyo bikaba intego ya buri munsi.

Nta bintu bishimisha nko kubona amatungo yawe ameze neza, arimo arakura neza, kubera yuko ushyiramo imbaraga nyinshi kugira ibyo bigerweho ariko iyo uzishyizemo ntibigerweho, birakubabaza cyane.

Kororera amatungo mu biraro byakunze kugaragara nk'ibivunisha abantu, bityo bikagusaba imbaraga nyinshi cyane iyo ufite amatungo menshi, bigatuma ucika intege, ariko kuba wakororera mu gasozi byabaga byoroshye.

Guha inka ubwatsi ndetse n'ibindi bishobora kiyifasha mu mikurire ni byiza ko umworozi ubifitiye ubushobozi kubera ko igihe ibi ngibi atabikoze na we umusaruro uba muke.

Uretse kuba ubu, kuragira mu gasozi bigenda bicika, wasangaga umuturage afite ishyo ndetse n'umukumbi w'intama, yiragirira mu gasozi, ugasanga bituma agera ku iterambere vuba.

Udukoresho twabugenewe tw'inkoko zinyweramo amazi usanga ari tumwe ahantu hose ariko si byiza ko uzidahira ahantu ho ubonye hose ngo uzizanire amazi yo kunywa ahubwo ugomba kugura utwo dukoresho.

Ihene nazo zagaragaye nk'amatungo magufi atanga umusaruro mwiza kandi igihe gito, bityo uwazoroye ntashobora kuzireka kuko iyo akeneye gukemura ikibazo runaka aba yagurishamo imwe akagikemura.

Nugirirwa amahirwe yo kuba wakorora ingurube, uzabikore ubikunze kuko aya matungo magufi byakunze kugaragara ko atanga umusaruro kandi mu gihe gitoya bityo uwabimenye akaba yayorora.

Kororera inka mu gasozi cyane cyane mu rwuri, ibi ngibi bishoborwa n'abantu bake kubera ko iyo udafite isambu nini, ntushobora kuba waragira inka aho ubonye hose kuko habafite bayiraraho.

Niba woroye inkoko ugomba kwita kuri buri kimwe cyose cyatuma zimera neza, ukaba wazishakira ibyo kurya ukaziha amazi ndetse ukaba wamenya igihe cya nyacyo cyo kuzitera imiti.

Cyane cyane ahantu hororerwa amatungo hagomba kuzitirwa kugira ngo adasohokamo akaba yakangiza iby'abandi baturage, kandi ibyo bizana amakimbirane kuba nk'itungo ryawe ryakomera umuturage muturanye.

Byiza ko abantu baba bambaye udupfukamunwa ndetse n'ingofero zabugenewe, igihe bagiye gukora mu bintu byateza akaga ubuzima bwabo, kuko ibi bishobora kudufasha ahantu hatandukanye.

Ni byiza kubanza gutoranya imbuto uzatera mbere ujya kuzitera, kuko niba ari nk'ibishyimbo ntushobora kujya gutera ibyo ubonye byose, kuko bishobora kutera hakera bimwe na bimwe.

Iyo umuntu ahinze ibihingwa bye bikera neza abijyana mu masoko akabigurishamo amafaranga maze ayo mafaranga ahawe akayakemumo ibindi bibazo mu rugo rwe.

Kimwe mu bintu bigaragaza ko uri kwita ku matungo yawe, ni uko aguha umusaruro nk'uko ubyifuza, ariko nanone iyo utabyitayeho ntiwirirwa ubaza rwose kuko byangirika ubireba.

Ni byiza ko wita ku matungo yawe ndetse igihe ubona hari ikintu kitagenda neza, nko kuba ubona inkoko wari woroye yatangiye kuzana ibindi bimenyetso, ugomba kuyifata ukayisuzuma, ukaba wanayivura igihe usanze irwaye.

Nyuma yo kubona ko kwiga ubuvuzi bw'amatungo bifite amafaranga menshi cyane ku muntu wabyigiye akabona akazi, ubu abantu bari kubyiga ku bwinshi kugira ngo aya mafaranga nabo bazayasingire.

Umuvuzi w'amatungo agomba kubanza gufata igipimo cya nyacyo, cyo kuba yatera inka urushinge cyangwa irindi tungo iryo ari ryo ryose kugirango ataritera umuti mwinshi bikarigira izindi ngaruka mbi.

Ntawutazi ko kugura inyama bibona umuntu umwe bigasiba undi kuko igiciro cyazo cyazamutse cyane ubu bikaba bituma umuntu atazirya atari uko atazirya koko ahubwo ari ubushobozi buke.

Si byiza ko igihe cyose inka cyangwa irindi tungo ryipfishije tugomba guhita turibanga tukarya kuko tuba tutazi icyariryishe niba kitatugiraho ingaruka ahubwo tugomba guhamagara umuganga w'amatungo akabanza akayipima akareba ikibazo yari ifite.

Inka z'inyambo iyo uzoroye zigira umukamo mwinshi ugereranyije n'izindi nka zisanzwe, kubera ko inyambo iyo wazihaye ubwatsi bwawe bwiza ukazitaho, ukazitera imiti ku gihe, nta kabuza ziguha ibyo wifuza.

Si buri nyamaswa yose uzabona aho wishakiye, harizo ugomba kujya muri pariki, ukaba ariho uzisanga, kuko ntabwo zibarizwa mu gasozi zose, hari n'abarinda basaza harizo batabonye.

Inzovu yamenyekanye nk'inyamaswa zidakunze kubyara cyane, kubera ko ishobora kumara n'imyaka ibiri itarabyara, ariko na yo iri mu nyamaswa zikurura ba mukerarugendo baza kuzireba bakava i mahanga.

Igihe tujyanywe muri pariki gusura inyamaswa, ni byiza ko dukurikiza amategeko yose duhabwa n'umuyobozi kubera y'uko ariwe usanzwe abana nazo kandi akaba azi uburyo bazitwaraho.

Inyamaswa zitandukanye, zirimo izimeze nk'ingurube zo mu gasozi, ntushobora kuzibona ahantu hose kuko ziba muri pariki kandi uyigezwaho n'umuyobozi wenyine ubishinzwe.

Abakerarugendo bakunze gutanga amafaranga menshi, bakajya muri pariki bakihera ijisho inyamaswa zijya zitandukanye, zirimo inzovu ndetse n'izindi, ariko bakaba bafite umuyobozi ubajyanamo umenyereye kuba yavugana nazo.

Iyo ugeze muri pariki y'igihugu uhasanga ubwoko bw'inyamaswa bwinshi butandukanye utaruzi bumwe ukaba warabubonaga ku mateleviziyo ndetse n'ahandi ku mafoto ariko ubyibonera n'amaso yawe iyo ugezeyo.

Uu ishyamba cyangwa muri pariki zigiye zitandukanye zo mu Rwanda, hakunze kuba harimo inyamaswa ziteye ubwoba, kuburyo aho uyibonye, utapfa kuyegera kubera ko ari ubwa mbere uya ubonye.

Ibishuhe ukunze gusanga bikunze kwibera ahantu hari amazi, kubera ko aribwo buzima bikunda ndetse amazi adahari ubuzima bwabyo ntibwamera neza nk'uko busanzwe bumeze.

Kubera ko intare ari inyamaswa ndetse ikaba n'umwami w'ishyamba, ibyo kurya byayo ikunze kubigira ubwoko butandukanye bw'izindi nyamaswa ngenzi zayo, ariko na zo ziba zibizi ko ari inyama z'intare.